Utudomoro dupfundikije imifuniko y'umutuku ndetse n'amacupa matoya, iruhande rwayo hari urupapuro rw'umweru, hakaba hari na terefone icagingishijwe na sharirijeri y'umutuku, hakaba hahagaze abantu bane.

Umuntu wambaye agapfukamunwa, akaba yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, akaba afashe imashini, iri kugenda iratera imyotsi y'umweru mu ndabo, indabo zisa n'ubururu.

Inkoko ziriho ibigori biteye umuti, bigaragara y'uko biteguye kubitera mu butaka kugira ngo byere, ibindi bazabone ibyo kurya, ndetse n'ibyo kugurisha mu masoko.

Icupa rito ririho ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi bikaba bigaragara ko ririmo imiti umuti wica udukoko turya ibihingwa.

Ibihingwa bitarakura byitwa ibigori bifite amababi y'icyatsi, abasirikari barimo ndetse n'abantu basanzwe, bakaba bafashe, harimo ufashe agasahani mu ntoki k'icyatsi, bigaragara yuko barimo kubihingira.

Amafi akiri matoya ari mu bitebo byinshi cyane, barobye bakaba bayajyanye kuyagurisha mu isoko kugira ngo babone amafaranga, ndetse baguremo n'ibindi byo kurya.

Amazi menshi, hagati yayo hakaba harimo inyubako bigaragara ko ari amazi bororeramo amafi. Hirya yaho hakaba hateye ibisheke n'insina ndetse n'ibiti.

Isahani y'umweru, iriho ibiryo; hakaba hariho umuceri ndetse n'ifi. Hakaba hateretseho n'ikiyiko, bikaba birambitse hasi ahantu hasa n'umweru.

Ibase ifite ibara ry'ubururu, hakaba harimo amafi menshi cyane barobye. Bikaba bigaragara ko hashize iminota myinshi aya mafi bayakuye mu mazi.

Ifi iva mu mazi ikaba irambitse bigaragara ko yapfuye, ikaba irambitse ku butaka ahantu hasa n'umweru. Bakaba biteguye kuyirya kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Igiti gikunda kwera ahantu hari ishyamba gikunzwe gukoreshwa n'abaganga bavura abaturage, cyangwa se kigakoreshwa mu biribwa abantu bakirya, ibyo bigatuma gikundwa n'abantu cyane.

Ibihingwa abantu benshi bahinga kugira ngo bibafashe mu kubona ibyo barya, ndetse bibafashe no kubona ibyo bajyana mu masoko kugira ngo babone amafaranga, bifashisha bari guhaha.

Ibiti binini cyane byivanzemo n'ibihingwa bigiye bitandukanye, aho babikoresha bari gukora imiti ndetse bari no kubicana.

Umuhanda iruhande rwawo hakaba hari indabo, hateye indabo zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru inyuma y'indabo hakaba hari insina zitarizera ndetse hakaba hari n'urusinga.

Umurima muremure cyane uhindwamo ibihingwa ugiye uciyemo ibice byinshi cyane, hirya yaho kure cyane hakaba hari ibiti ndetse n'imisozi miremire cyane.

Umurima muremure cyane urimo ibyatsi bifite ibara ry' icyatsi, hakaba hateyemo n' ibihingwa, n' imbuto ndetse n' ibiti birebire, hejuru hakaba ikirere kirimo ibicu bike by' umweru ndetse n' ubururu.

Ibiti birebire cyane, ndetse n'ibiti bigufi cyane bigaragara ko biteye mu ishyamba. Hagati yabyo hakaba harimo umwanya munini cyane, ku buryo uhagaze hasi aba areba hejuru.

Umurima urimo imbuto ndetse n'ibitoki. Ibitoki bigaragara ko bitari byera, ariko birimo gutangira kuzana ibitoki. Ndetse iruhande rwabyo hakaba hari n'ibindi biti birebire.

Ubutaka burebure cyane, bw'imitabo bahinga kugira ngo babuhingemo ibyokurya, hirya yabwo hakaba hari ibiti birebire cyane biri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibindi byatsi bimerera hasi ndetse n'ikirere cyiganjemo ibara ry'ubururu.

Ibijumba biri mu isafuriya bihiye, abantu bakaba biteguye kubirya. Bikaba bisa neza, bikaba ari ibijumba binini. Bikaba byadaguritseho, ndetse bikaba biryoshye cyane.

Imineke ifite ibara ry'umutuku abantu baza bakagura, bakayijyana bakayirya, bagatanga amafaranga ku bantu bari kuyigurisha. Bityo, na bo bakabona amafaranga baguramo ibindi bakeneye.

Abamama bafashe amasuka mu ntoki, bari guhinga umurima bacuramye. Hirya hakaba hariho n'abandi bari guhing bazamuye. Inyuma yabo hakaba hari abantu bahagaze, hakurya yabo hakaba hari umusozi.

Imbuto nyinshi zisa n'umukara, zitwa amatunda, zifashishwa mu biribwa, ndetse bikaba ari bimwe mu bintu by'ingenzi abantu bagakwiye kurya, kubera yuko birinda indwara, ndetse bikanubaka umubiri.

Abantu babiri barimo gukora, mu mufuka w'umweru urimo ibirayi, ukaba urimo ibirayi byinshi cyane, abantu bakaba bari kubigura, kugira ngo bajye kubirya ndetse n'ababiguze, batange amafaranga kubabigurisha.

Ibyatsi ndetse n'ibiti, igitoki kinini cyane gifite amabere manini cyane, akaba iruhande rwaho hakaba hari ibiti byinshi cyane ndetse n'umudaso.

Isoko aho abantu bahurira bakazana ibiribwa bigiye bitandukanye harimo: karoti, ibitunguru ndetse n'indimu n'ibindi bigiye bitandukanye, bakabaha amafaranga n'abandi bakabicyura bakajya kubirya.

Umugabo umwe, umugabo umwe ndetse n'aba mama babiri bari mu murima uhinzemo imbuto bita amashu, bigaragara ko barimo kuyasarura kandi hirya yabo hakaba hari ibiti.

Urubuto rw'itunda rukunda kwera rusa n'umutuku, ruba rukungahaye ku ntungamubiri mu birinda indwara.

Umugabo uherereye mu murima. urimo imbuto nyinshi cyane akaba yambaye agapfukamunwa n'umupira. kure cyane yaho ari hakaba hari ibiti birebire ndetse n'imisozi miremire.

Umubyeyi uhagaze hagati mu murima, urimo karoti nyinshi cyane, hirya ye hakaba hariho umurima, hakaba hariho igitari kirimo ibiti bigiye bitandukanye. Ni binini cyane.

Ikiyiko, isahani, ndetse na avoka ikasemo ibice bibiri, imwe irimo urubuto, indi itarimo urubuto, hakaba hari n'izindi ebyiri zidakase, zikaba zifite ibara risa n'umukara.

Umurima muremure cyane, bigaragara ko ari igishanga, uhinzemo imbuto nyinshi cyane, ukaba uhinzwemo n'imyumbati myinshi, bikaba bigaragara ko hirya kure cyane hariyo umusozi. Ndetse n'ikirere kikaba kiganjemo ibicu by'umweru.

Umugabo uhagaze uri kurandura igiti kiriho ibirayi, inyuma ye hakaba hahinzeyo n'ibindi ndetse inyuma ye kure hakaba hateye ibiti byinshi.

Ahantu harambuye cyane, bigaragara ko hari imashini z'ubwoko butandukanye, mu bigaragara nuko ahantu hashobora kuba ari uruganda, ruyungurura ibintu bigiye bitandukanye, harimo nk'itaka ndetse n'umucanga n'isima.

Umugabo usutamye uri mu murima muremure cyane w'imbuto, uhinzemo imbuto zigiye zitandukanye. Akaba yambaye ingofero y'umukara, akaba yambaye n'ishati y' umukara. Inyuma ye hakaba hari ibiti byinshi cyane, ndetse hejuru n'ikirere kikaba cyiganjemo ibicu bymweru.

Umurima munini cyane uhinzemo ibigori, hagati hakaba harimo akayira, n'abamama babiri bari kunyuramo, umwe ufite agatambaro k'umweru, akaba afite n'igikapu mu ntoki.

Abamama benshi cyane bari mu murima muremure cyane, umwe uhetse umwana undi wambaye umupira w'ibara, n'abandi bambaye imyenda irimo umweru n'umukara, bakaba barimo kurandura imbuto.

Imbuto bita ubunyobwa zitonoye, izindi zikiri mu bihu byazo, izi mbuto zikaba ari zimwe mu byifashishwa nk'ibiribwa ndetse no mu gukora umuti, bikaba byongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Ibihingwa bikunda kuwera mu bishanga ndetse no mu misozi abantu batera kugira babone ibyo kurya byitwa ibigori bifite amababi y'icyatsi bikaba bihetse, bikaba bihinze ahantu heza kugira ngo bazabirye.

Urusenda ndetse urusenda rusa n'umutuku, ndetse n'urusenda rusa n'umuhondo, hakaba ruvanzemo na pavuro zisa n'icyatsi. Ibi bikaba byifashishwa mu gukora isosi yo kurisha ibindi biryo.

Imbuto z'intoryi ndetse n'imbuto z'inyanya, imbuto z'inyanya ziri mw'ibara ry'umutuku, bigaragara ko ari mu isoko aho abantu baza bakazigura, bakazijyana kuzirya n'abandi bagatanga amafaranga ku baziguze, zikaba bazirambitse ku mifuka ndetse n'ikirenge cy'umuntu, wambaye urukweto rw'umweru.

Ibihingwa by'ibijumba birambitse ahantu hamwe bakaba babihinga mu butaka, bakabikura byeze kugira ngo babirye ibindi babijyane ku isoko babone amafaranga bifashisha bari kugura ibindi.

Abantu benshi cyane bahagaze ku murongo bakaba bose bose bafashe ibiti by'ingemwe mu ntoki zabo, bityo bakaba biteguye kubitera kugira ngo barinde isuri.

Imiteja irambitse ahantu hamwe ku kintu cy'umweru, itaratonorwa, ikiri mitoya, bakaba bayikoresha kugira ngo barye ibiryo.

Umugabo uhagaze iruhande rw'imashini isya ibyatsi. Hirya ye akaba ari mu nyubako yubakishijwe ibiti ndetse n'imbaho, hirya ye hakaba hari ibiti byinshi cyane.

Ibiti by'amapera bikunda kwera amapera menshi cyane, iyo atarerera akaba aba asa n'icyatsi ari menshi cyane, kikaba kigira ibibabi bisa n'icyatsi, akaba akunda kwera ahantu h'impande y'urugo cyangwa se ho mu gitari.

Ibihingwa by'amateke byera mu murima bigasa n'ubururu bikunze kwera amateke menshi cyane, bikunda kwera ahantu hari amazi ndetse no mu misozi n'ahantu hari insina nyinshi iruhande rwabyo hakaba hateye ibiti binini cyane.

Umugabo ufite igare arisunitse akaba ahetse ibitoki byinshi cyane, bigaragara yuko abijyanye kubikoramo umutobe, cyangwa se kubikoramo ikindi kinyobwa gitandukanye. Akaba ari kubisunika wenyine ari kunyura mu muhanda ufite itaka risa n'umutuku.

Ibihingwa bahinga kugira ngo bibyare amafaranga bazabijyane ku isoko babone amafaranga bakoresha. Bikaba bijyanwa mu mahanga cyangwa se bakabirira mu rugo ababihinze. Bikaba bihinze ahantu harehare kandi bikaba bifite ibara ry'icyatsi.

Ababyeyi benshi bari mu murima. Barimo gusarura imbuto, bakaba bari mu murima muremure cyane, usa nk'aho ari umurima uri ahantu hari umusozi.

Igishanga kinini cyane, akaba ari umurima muremure cyane urimo ubuhinzi bw'indabo, indabo zifite ibara ry'umweru nyinshi cyane, hirya y'indabo hakaba hariyo ibiti birebire cyane, ndetse hakaba hariho n'ikirere gifite ibara ry'umweru.

Ikibuga kinini cyane bigaragara ko ari ikibuga bakiniraho umupira w'amaguru, bitewe n'uko kirimo ubwatsi buto cyane, kandi busa n'icyatsi. Bikaba bigaragara ko ari ikibuga bashobora kuba bakiniramo umupira, cyangwa se bakoreramo indi mikino n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro.

Imbuto z'ubunyobwa abantu bahinga zikaba zisa n'umutuku, bakaba bazihinga kugira ngo bazirye bagire ubuzima bwiza, ndetse bakanazigurisha ku isoko, kugira ngo babone amafaranga.

Ibihingwa by'amasaka bigaragara, ariko bikaba bitari byera bitewe nuko bigifite ibara ry'icatsi. Inyuma y'amasaka hakaba hariyo ikirere kiganjemo ibara ry'icyatsi.

Umurima muremure cyane uhinzemo ingano. Aho ingano iyo zeze bazisarura, bakazihura, bakajya kuzibetesha, bakazikoramo ifu, bakayifashisha bari kuyirya, kugira ngo babeho neza.

Ibishyimbo byinshi cyane, bifite ibara ry'umukara, harimo n'umweru, biri mu nkoko, kandi hakaba hariho n'umwuko, umuntu ari gukoresha ari kubizamura ari kubikuramo.

Ibihwagari akaba ari uburyo abantu babonamo amavuta bifashishije ibihingwa bahinga, noneho bikera bigatanga amavuta.

Imbuto abantu bahinga kugira ngo babone ibyo kurya, izindi bazijyane ku isoko babone amafaranga, ndetse n'abandi bazijyane bajye kuzirya bityo bagire ubuzima bwiza.

Ubunyobwa bwinshi cyane buri ahantu hamwe busaruye buri mu bihu byabwo bisa n'umweru, aho bigaragara ko bagiye kubukoresha baburya, cyangwa se babukoresha mu bijyanye no kuvura.

Ubuhinzi bw' ibishyimbo bigaragara yuko babishyingirira mu buryo bwihariye kandi bitera umusaruro mwinshi cyane, iyo wabishingiriye neza bityo abantu bakaba bagirwa inama yo kugira ngo bajye babishingirira mu buryo bwemewe, kugira ngo babone umusaruro mwinshi cyane, bikaba bifite ibara ry' icyatsi.

Imbuto nyinshi cyane zirambitse ahantu hamwe zifashishwa mu gukora imiti ivura abantu, ndetse abantu bakaba bazifashisha mu kuzirya kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibishyimbo by'imiteja bisa n'umweruru, akaba ari igishyimbo, ari umushogi umwe bafunguye, ariko indi ikaba ifunze ari imishogi isa n'icyatsi, bityo bakaba babyifashisha bari kubirya.

Imbuto zifunze mu mifuka, hakaba harimo umweru, zikaba zifashishwa mu guhinga, kugira ngo babone ibyo barya, ndetse babe bazikoramo n'imiti ivura uburwayi bugiye butandukanye.

Ubuhinzi bw'imbuto bita soya aho bazihinga ku murongo bakazihinga mu murima munini cyane. Aho zera ku bwinshi iyo wazitayeho zikaba zikura zisa n'icyatsi.

Umubyeyi usutamye imbere ye hakaba hari imbuto, iruhande rwe hakaba hari ibyatsi. Akaba ari mu murima munini cyane, umurima uhinzemo imbuto zigiye zitandukanye.

Ubunyobwa buri mu mifuka igiye itandukanye, imifuka y'umweru, intoki ebyiri z'abantu batandukanye, bari gukora mu mufuka umwe w'ubunyobwa. Ubu bunyobwa bakaba babuhinga kugira ngo babugurishe bazabonemo amafaranga.

Umufuka uhinye ukaba urimo ibishyimbo, ibishyimbo birimo bikaba bifite ibara ry'umukara, ibishyimbo bakaba babyifashisha bari kubigurisha kugira ngo babone amafaranga ndetse no kubiteka kugira ngo babirye bagire ubuzima bwiza.

Abamama barimo kugosora amasaka. Bakaba bari kugosora bakoresheje inkoko, aribyo bita intara.

Imbuto nyinshi cyane ziri ahantu hamwe, bifashisha mu kurya ndetse abandi bakazifashisha bari kuzikoramo imiti yifashishwa mu kuvura abantu ndetse n'inyamaswa.

Imbuto nyinshi cyane izifite ishusho risa, risa n'umweru, zikaba zifashishwa mu kuzikoramo imiti igiye itandukanye, ndetse bamwe bakaba bazifashisha mu kuzirya.

Umurima munini cyane urimo amasaka, ndetse n'ibibabi, hejuru hakaba hari ikirere cyiganjemo ibara ry'ubururu ryinshi cyane, ndetse n'ibihu ry'ibara ry'umweru bikeya.

Abantu batandukanye barimo aba mama, n'abagabo. Barimo umugabo wafashe igitabo cy'ubururu, bose bakaba bambaye amajire y'icyatsi, bakaba bahagaze ahantu hasa nkaho hari ibiraro.

Ubworozi bw'amatungo bita ingurube. Aho bazororera ahantu hamwe ari nyinshi cyane, mu kiraro. Hakaba harimo umuntu, ndetse ikaba yubakishijwe amabati. Inyuma y'ikiraro hakaba hari insina, ndetse n'ibiti.

Umuti urambitse ndetse n'igikoresho bakoresha bari kuwutera gisa n'umweru kirimo n'ibara ry'umutuku. Bishoboka ko ari umuti batera amatungo kugira ngo adahura n'uburwayi.

Ingurube iryamye, iri konsa abana bayo benshi cyane. Ikaba iryamye ahantu iba, ndetse bakaba bayigaburira kugira ngo ikomeze ibone uko yonsa abana bayo bose.

Umuntu uri kureba inyuma ushoreye inka. Inka ifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara. Imbere ye hakaba hari undi muntu nawe ufite indi nka, ifite ibara ry'umukara. Imbere yabo hakaba hari abantu ndetse n'amazu, ndetse n'ibiti binini.

Inka ziri kurisha ubwatsi, ziri mu kiraro. Harimo inka zirimo ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru, inyuma y'inka hakaba hari urukuta. Inyuma y'urukuta hakaba hari igicu gisa n'umweru.

Ingurube nini cyane, irimo konsa abana bayo, bakaba bafite ibara ry'umweru. Ikaba iri ahantu mu kiraro cyayo, ikaba ihagaze irimo konsa.

Ibyapa biri ku muhanda bigaragaza yuko ahantu hari ubucuruzi buhakorerwa, bikaba biri mu ibara ry'umweru no mu mabara y'umukara, bikaba biri mu nzu yubakishijwe urugi rw'umweru.

Inka iri ahantu mu rwuri, inka y'imbyeyi, ikaba irimo amabara abiri umweru ndetse n'umukara, ikaba ihindukiye iri kureba inyuma, iruhande rwa yo ikaba ikikijwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umugabo uhagaze iruhande rw'inka. Inka iri mu iba ifite ibara ry'umweru, ndetse akaba yiganjemo n'ibara rya kaki. Mu bigaragara nuko ari kuyifuhira umuti wo kugira ngo yirinde indwara, ikaba yubatse mu kiraro cyubakishije ibiti, ndetse hirya hakaba hari n'amazu menshi.

Inyoni ifashe ku giti, iri munsi iri munsi yacyo, ikaba igifashe, ndetse igiti kikaba gifite amashami maremare, atariho amababi menshi cyane, hakaba hariho amababi makeya.

Inyamaswa yo mu ishyamba bita ingagi, yicaye, ikaba ifite ibara ry'umukara, ikaba ikikijwe n'ibiti binini cyane, ndetse bimwe bisa n'ubururu, ibindi bisa n'umutuku.

Inyamaswa y'ishyamba yitwa inzoka izingurije ku kaboko k'umuntu, inyuma hakaba ari ibiti byinshi bifite amababi menshi.

Inyoni ihagaze ku giti. Mu bigaragara iri kureba kure, ikaba ishaka uburyo yabona ibyo kurya kugira ngo ijye kugaburira abana bayo, ikaba ifitemo ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara.

Inyamaswa y'inkazi ikunze kuba ahantu hari ibiti byinshi cyane nko mu mashyamba aho ihiga izindi nyamaswa akaba arizo irya ndetse ikarisha n'ibyatsi.

Inyoni ikunda kuboneka muri parike zigiye zitandukanye, ikaba ihagaze mu byatsi bigufiya bitari birebire cyane, ikaba ifite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru.

Inyamaswa y'inyoni, irimo kuguruka, ikaba ifite ibara ry'umweru, ikaba ifite n'amaso y'umukara, inyuma yayo hakaba hari ibiti birebire cyane, bifite n'amababi manini.

Inyamaswa zifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umutuku, zikaba ziryamye mu ishyamba mu bwatsi buto cyane, n'ubwatsi bw'umutuku buri mu ibara ry'umutuku ,ndetse no mu ibara ry'icyatsi.

Inyamaswa y'ishyamba yitwa ingurube, iri kurisha hasi ifite ibara rya kaki, ikaba iri kugenda ahantu hatari ibyatsi bigaragara yuko ari mu muhanda.

Inyamaswa iba mu ishyamba, ikaba ari inyamaswa iryana kandi abantu benshi bakayitinya ndetse n'izindi nyamaswa zikaba ziyitinya, ikaba mu byatsi birebire cyane ndetse n'ibyatsi bigufi.

Inyamaswa ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, ikaba ihagaze ku ishami ry'igiti, ikaba inyuma yaho harimo ikirere gifite ibara ry'ubururu.

Inyoni iri mu ibara ryiza, y'imbata. Aho iyi nyoni ifite ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi. Bikaba bigaragara ko irimo kunyura hejuru y'amazi.

Inyoni irimo kwarika icyari ikoresheje ibyatsi ndetse n'ibindi biti bigiye bitandukanye, ikaba irimo gushaka aho igomba kuba yo n'abana bayo.

Inyamaswa yo mu ishyamba. Irimo ifite uruhu rurimo ibara ry'umukara, ndetse n'ibara ry'umweru. Inyamaswa zikunda kurya inyama nyinshi cyane, ndetse zikaba zitinyitse.

Inyamaswa y'inkende ikunze kuba mu ishyamba, ifite ibara ry'umukara uruhu rwose. Ikaba isa n'iryamye ireba hejuru, iruhande rwayo hakaba hari utwatsi ndetse n'ibiti, ikaba iryamye ku giti kinini.

Inyamaswa y'imbata ikiri ntoya, ifite ibara ry'umweru n'umukara, ikaba iri mu mazi hagati, amazi bigaragara ko ari amazi menshi cyane, ikaba iri kugenda yoga hejuru.

Ibisimba bita inkende bikunze kuba mu mashyamba biri kumwe n'abana baby, biri mu ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru. Bikaba bihagaze ku mashami y'ibiti.

Inyamaswa y'inkazi iba mu ishyamba, yasamye iri kugaragaza mu kanwa kaho hasa n'umweru, ndetse n'amenyo rimwe riri ku ruhande, n'irindi riri ku ruhande. Ikaba ifite uruhu rw'umukara, inyuma yayo hakaba hari ibyatsi by'icyatsi.

Inyamanswa ziba mu birunga bita ingagi, aho ziba muri parike y'ibirunga gusa, kugira ngo zikurure bamukerarugendo, batange amafaranga yifashishwa mu kubaka, ibikorwa remezo bitandukanye, hirya yazo hakaba hari amazi ndetse n'ubwatsi bugufiya cyane n'ibiti bito.